Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu ari ahantu hateraniye abandi bantu benshi aho ari kumwe n'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku, akaba ari kumwereka uburyo yakora ibintu bitandukanye yifashishije telefone.

Akazu kabugenewe gatangirwamo serivisi zijyanye n'amafaranga ndetse no guhamagara, ako kazu kakaba gafite amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umukara, hari kandi n'umugore waje gushaka serivisi zijyanye n'ibyo akaba ari imbere y'ako kazu.

kazu gakozwe mu byuma gafite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru kakaba gakorerwamo n'umukozi ushinzwe gutanga serivisi zifasha abantu mu kohererezanya amafaranga ndetse n'itumanaho hakurya y'aka kazu kandi hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Akazu gakozwe mu byuma gasize amabara y'umweru ndetse n'umutuku gatangirwamo serivisi zijyanye n'itumanaho za kimwe mu bigo gishinzwe itumanaho mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na none hakaba hari ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Imbere y'inyubako nini y'ubucuruzi ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hari akazu kabugenewe gafite ibara ry'umweru, gatangirwamo serivisi zijyanye n'itumanaho ndetse no kohereza amafaranga.

Itsinda ry'abantu ririmo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye imbere y'akazu gafite ibara ry'umuhondo, kakaba gatangirwamo serivisi zijyanye n'amafaranga ndetse no guhamagara.

Umugore umwe uri kumwe n'abagabo batatu bambaye impuzankano za kimwe mu bigo bikorera mu Rwanda gishinzwe itumanaho, bakaba bafasha abantu batandukanye kubona serivisi z'icyo kigo. Impande zabo hakaba hari ibinyabiziga bitandukanye byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Utuzu duto dufite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru n'ubururu, tukaba dutangirwamo serivisi zijyanye n'amafaranga ndetse n'itumanaho, utu tuzu tukaba turi iruhande rw'ahantu hahurira imodoka.

Abantu bane barimo batatu bambaye umwambaro mukuru wa kimwe mu bigo bikorera mu Rwanda bitanga serivisi z'itumanaho bari kumwe n'undi mugabo na we ukora muri icyo kigo, akaba ari kwerekana igihembo bamuhaye.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bateraniye ahantu hamwe mu cyumba gifite ibara ry'umweru, bakaba bakurikiranye ibyo umugabo uri imbere yabo ari kubagezaho ku bijyanye n'ingingo zitandukanye.

Itsinda rinini ry'abahinzi bari mu murima wabo urimo amasaka, aba bahinzi bakaba bahinga bifashishije amasuka maze bagafumbira ibihingwa byabo, imvura yagwa bikazamuka, bigatanga umusaruro.

Abagabo batatu bateraniye hamwe, umwe muri bo afite igare, abandi bafite amapikipiki, bakaba bayifashisha mu gukura amata ahantu hamwe, bayajyana ahandi mu bicuba bigezweho kugira ngo atangirika.

Itsinda ry'abantu benshi barimo abambaye imyambaro isa y'ubururu barimo n'umugabo wambaye umwambaro w'ubururu ufite indangururamajwi ndetse akaba afite imbere ye imbuto zitwa inanasi.

Umubyeyi wumugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku ndetse n'ubururu, ari hagati mu murima w'ibishyimbo, ibi bishyimbo bikaba byitwa mushingiriro ndetse bikaba biri hafi no kwera, ibi bishyimbo kandi bikaba bikura bitondagira ku biti.

Itsinda ry'abihangiye umurimo bari mu cyumba gifite amabara atandukanye ariko gikoze mu mabati, bambaye imyambaro y'ubururu, bari gukora ibintu bitandukanye birimo n'imbabura zifashishwa mu guteka.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bikoreye umusaruro mu mabase, nonene kandi umwe muri bo afite igare aho we atwaye umusaruro kuri iryo gare. Inyuma ye kandi hari umugore uri kumusunikira.

Icyapa gito gifite amabara arimo umweru, umukara weruye ndetse n'icyatsi kibisi kikaba kerekana ko aho hantu hatangirwa serivisi zijyanye n'amafaranga, abatanga izi serivisi bakaba bafasha abaturage mu bijyanye no kubitsa ndetse no kubikuza.

Abantu barimo urubyiruko, abagabo ndetse n'abagore bamwe muri bo bambaye imyenda isa, bari ahantu habugenewe hatatse neza amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, bakaba bari guhabwa ubukangurambaga ndetse n'ikiganiro mu bijyanye n'amakoperative.

Ahantu hateguwe hari kubera ubukangurambaga aho abantu batandukanye bambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu bateranye nanone kandi abo bantu bakaba bafite igihingwa cyahinzwe binyuze mu makoperative kitwa inanasi.

Mu nzu yubatse neza irimo ibiraro harimo umukozi wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara akaba ari kwita ku nkoko za kijyambere izi nkoko zikaba zitabwaho neza zigatanga umusaruro urimo amagi n'inyama.

Ahantu habugenewe hari intebe ndetse n'ameza byifashishwa mu kwakira abantu. Aho hantu hakaba hatangirwa serivisi zitandukanye, zirimo izo kuba hagurishirizwa ibinyobwa by'ubwoko butandukanye, byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Ahantu habugenewe hacururizwa ibyo kunywa byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye ariko kandi ibyo kunywa bisembuye byo bikaba biba bigomba guhabwa abafite imyaka cumi n'umunani gusa, hari kandi n'igikoresho gifite ibara ritukura kifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa.

Ahantu hateguwe neza hafite amabara atandukanye ndetse hakaba hari n'intebe n'ameza biteguwe neza. Ibi bikaba byifashishwa mu kwakira abantu bagannye aho hantu, bashaka serivisi zirimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, maze bakishyura amafaranga.

Umugabo ukorera mu isoko rusange ricuruzwamo ibintu bitandukanye, birimo: ibiribwa, imbuto ndetse n'ibindi, akaba ari mu isoko, aho ari kugurisha amafi. Aya mafi akaba arobwa mu biyaga ndetse no mu nzuzi.

Mu nzu y'ubucuruzi ifite amabara y'umweru, harimo ibintu bitandukanye, birimo n'ibyo kunywa ndetse n'amandazi. Na none kandi harimo rwiyemezamirimo ukoreramo, akaba ari na we ucuruza ibyo bintu birimo.

Mu isoko rusange ricururizwamo ibintu byinshi birimo inkweto ndetse n'imyenda by'ubwoko butandukanye, hari ikinyabiziga cy'igare kiryamye hasi. Iki kinyabiziga kikaba ari kimwe mu byifashishwa kugira ngo ibyo bicuruzwa bigere ku amasoko.

Inzu z'ubucuruzi zifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi hejuru akaba amanitseho icyapa cya kimwe mu bigo bicuruza amashusho mu Gihugu, izo nzu z'ubucuruzi kandi zikaba zicururizwamo ibintu bitandukanye birimo imyenda ndetse n'ibyo kurya.

Mu cyumba gicururizwamo ibintu bitandukanye, birimo ibyo kunywa byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, ibikoresho byo mu rugo birimo nk'amasahani ndetse n'ibindi, ibi bicuruzwa bikaba birangurwa ahantu hatandukanye maze na byo bikongera bikagurishwa.

Isabune y'ifu ifunze neza mu mabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umweru, iyi sabune ikaba yifashishwa mu gusukura mu nzu ndetse no kumesa, ikaba isangwa mu maduka aho igurishwa ku giciro gito.

Icyumba cyabugenewe kibitsemo ibicuruzwa birimo: ibyo kurya, ibyo kunywa, amavuta yo kwisiga, amavuta yo guteka ndetse n'ibindi, kirimo umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara akaba acuruza ibyo bicuruzwa.

Icyumba kirimo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, birimo amavuta ashyirwa mu biryo ndetse n'amavuta yo kwisiga. Ibi bicuruzwa bikaba bigurishwa n'umugore uri muri icyo cyumba, akaba abigurisha ku bantu maze akabona inyungu.

Isabune y'ifu ifunze neza cyane mu mashashi afite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, tukaba tuyisanga ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye. Iyi sabune y'ifu ikaba yifashishwa mu gusukura ndetse no kumesa imyenda.

Imbaga nyamwinshi y'abantu yateraniye imbere y'inyubako, iyo nyubako ikaba yubakishijwe amatafari, ndetse ikaba imanitseho umusaraba hejuru ku gasongero. Iyi nyubako ikaba yifashishwa aho abantu bakunda kuyisengeramo.

Imbere y'inyubako nini yagenewe gusengerwamo, ifite amabara y'icyatsi kibisi, yubakishije amatafari, hakaba hari urukarabiro. Na none kandi hari indabo, zifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Mu cyumba k'ishuri ry'inshuke gifite inkuta zishushanyijeho amatungo yo mu rugo arimo nk'inka ndetse n'imbata n'urukwavu, harimo abanyeshuri bafite imyaka ikiri mito bakaba bari gutozwa gusoma n'umwarimu wabo.

Ababyeyi n'abana ndetse n'abagore bateraniye iruhande rw'inyubako yubakishije amatafari isengerwamo. Iruhande rw'iyo nyubako kandi hateye igiti cy'umuyenzi, icyo giti kikaba kifashishwa mu bintu byinshi birimo nko gukora umusemburo w'ikinyobwa bita amarwa mu Kinyarwanda.

Mu nzu nini ya kiliziya yagenewe gusengerwamo harimo abagabo, abagore ndetse n'abandi benshi, iyi nzu ikaba yifashishwa mu gusenga buri cyumweru ndetse no mu yindi minsi isanzwe.

Inyubako y'urusengero ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku izengurutswe neza n'uruzitiro ikaba isengerwamo, iyi nyubako kandi ikaba ifite umuhanda uri hirya yawo ugezweho wifashishwa mu ngendo.

Icyumba cyiza cyane gifite amabara y'umweru ndetse kirimo uburiri bushashe neza. Iki cyumba kandi kikaba kirimo n'intebe. Iki cyumba kikaba cyaragenewe abantu bishyura amafaranga, bakeneye serivisi z'icumbi.

Icyumba kiza cyane giteguye gifite amabara meza, gifite intebe nziza zo kwicaramo, kikaba gitangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi. Hari kandi n'indabo nziza zituma aho hantu harushaho kuba heza.

Icyumba cyiza cyane kirimo intebe zegamirwa, zifite amabara y'umweru ndetse n'ameza. Icyo cyumba kikaba giteguye neza cyane kandi kisanzuye. Kikaba gitangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo amacumbi ndetse no kwiyakiriramo.

Ubwiherero bufite ibara ry'umweru bukoze neza ndetse bufite n'urugi rukoze mu mbaho, ubu bwiherero kandi bukaba bufite ahantu habugenewe aho umuntu akarabira nyuma yo kubukoresha, ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko bituma habaho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Indabo nziza zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi ndetse n'ibiti bitandukanye biri imbere y'inyubako nziza ifite ibara ry'icyatsi kibisi, ikaba itangirwajwemo serivisi zitandukanye zirimo iz'icumbi, ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Mu cyumba cyiza cyane kirimo intebe nziza ndetse n'imitako n'amadirishya manini, harimo ameza ndetse n'intebe, ibi bikaba bikoreshwa n'abantu, baba baje aho hantu bashaka serivisi zitandukanye zirimo icumbi, ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Imbere y'inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umuhondo weruye yubatswe mu buryo bugerekeranyije hari amazi yagomewe asukuye aho abantu bayidagaduriramo, imbere yayo kandi hari n'udutanda twagenewe abantu bavuye muri ayo mazi ndetse n'umutaka wo kubatwikira.

Icyumba kiza gifite isuku kikaba gitunganyirizwamo ibyo kurya, ibi byo kurya bikaba bihabwa abantu bishyuye amafaranga baje bagana ahatangirwa izo serivisi zirimo amacumbi, ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Amazi asukuye yagomerewe ahantu hamwe akaba yidagadurirwamo n'abantu batanze amafaranga. Nanone kandi iruhande rw'ayo mazi hari utwuma twabugenewe twifashishwa n'abantu, iyo bari gusohoka muri ayo mazi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara atandukanye, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye zirimo icumbi, ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, abagana aho ngaho muri iyo nyubako bakaba bishyura amafaranga.

Mu cyumba kiza cyane gifite amabara y'umweru ndetse kikaba kinamanitsemo isakazamashusho, hari ibintu byiza bihateguye birimo nk'intebe n'uburiri bushashe. Ibi byumba bikaba byaragenewe abantu bishyuye amafaranga bashaka kubiraramo.

Agasoko gato kateraniyemo abagore ndetse n'abana kakaba karimo inyanya ndetse n'intoryi n'izindi mboga z'ubwoko butandukanye, aba bagore bakaba barangura bino bicuruzwa maze bakabizana kuri tuno dusoko na bo bakabona amafaranga.

Mu isoko rusange harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo imifuka ndetse n'ibikombe amabasi byifashishwa cyane cyane mu rugo mu gukora ibintu bitandukanye birimo nko gusukura kunywa amazi ndetse no kunywa ibindi bintu bitandukanye.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabati y'umutuku ndetse yubakishije amatafari. Iyo nzu ikaba yifashishwa mu kugura ndetse no kugurisha ibicuruzwa. Iyo nzu kandi ikaba ifite n'ikigega gifata amazi y'imvura. Hari kandi n'abagore ndetse n'amagare.

Mu nkengero z'umuhanda ugezweho wa kaburimbo hari umugabo ufite igare ririho ibitoki byinshi, iri gare rikaba ryifashishwa mu bindi bintu bitandukanye birimo gutwara imizigo, nanone kandi hari amashyamba hakurya y'uwo muhanda.

Isoko rusange ryubatswe mu buryo bugezweho ndetse rikaba rinasakaye, ricururizwamo ibintu bitandukanye birimo imboga ndetse n'imbuto, urugero twavugamo nk'imineke, amacunga, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Isoko rusange ricururizwamo ibiribwa, imyambaro ndetse n'ibindi bitandukanye, muri iryo soko hakaba harimo abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, hari kandi n'ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Mu isoko rigari ririmo ibintu byinshi birimo imboga z'ubwoko butandukanye, urugero twavugamo ubushaza, inyanya ndetse n'ibitunguru. Izi mboga zikaba zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zirimo izirinda indwara.

Mu isoko rusange hari umugabo uri gucuruza ibikoresho bitandukanye, birimo indobo, ingufuri, utumamamiro, imifuka ndetse n'ibindi, uyu mugabo kandi akaba acuruza udukoresho twifashishwa mu kuyungurura ifu aritwo twitwa utuyunguruzo.

Icyumba cyiza gifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, harimo intebe zabugenewe ndetse n'ameza ashasheho ibitambaro by'umweru, muri iki cyumba hakaba hatangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo izijyanye n'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa.

Umugore watinyutse wambaye umwambaro ufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru akaba ari ku kinyabiziga, gitwara abantu ndetse n'ibintu. Iki kinyabiziga kikaba kitwa ipikipiki. Nanone kandi hari inzu nziza yubakishije amabuye ndetse hirya yayo hakaba hari inda z'icyatsi kibisi.

Mu muhanda wa kaburimbo ukuze, hari abagabo babiri bafite amagare. Aya magare akaba abafasha mu gutwara ibintu byinshi na none kandi hari ibiti bikuze biri mu nkengero z'umuhanda. Hakaba kandi hari n'inyubako ifite amabara y'ubururu.

Mu muhanda wabugenewe ufite amabara y'umukara, harimo ibinyabiziga bitatu. Ibyo binyabiziga bikaba ari amapikipiki yifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu. Hari kandi n'inyubako zitangirwamo ibijyanye n'ubucuruzi. Hari kandi n'akazu kabugenewe gatangirwamo serivisi zijyanye n'amafaranga ndetse n'itumanaho.

Mu muhanda ugezweho ufite amabara y'umukara harimo igare rihetse abagabo babiri bakaba na bo bafite amasuka, iri gare rikaba ribafasha mu buhinzi nanone hakurya y'aho hari inyubako zituwemo n'abantu.

Mu muhanda ugezweho wa kaburimbo harimo ikinyabiziga k'imodoka gifite amabara y'ubururu bwijimye ndetse hakurya y'uwo muhanda hakaba hari inyubako zifite amabara y'umuhondo n'umweru zikoreshwa mu bucuruzi.

Imbere y'inyubako z'ubucuruzi zifite amabara y'umweru, hari akazu gafite ibara ry'umuhondo gakozezwe mu byuma, karimo umuntu utanga serivisi zijyanye no kohereza amafaranga. Hari kandi abagabo babiri bari ku binyabiziga by'amapikipiki.

Ikinyabiziga k'ipikipiki kiri mu muhanda wa kaburimbo kikaba gihetsweho ibicuba bikoze mu byuma, iki kinyabiziga kikaba kifashishwa mu kuvana amata ku ikaragiro ndetse ajyanwa mu baturage cyangwa se ahandi aho ari ho hose.

Ikinyabiziga k'ipikipiki kifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, gitwawe n'umugore wambaye ingofero zirinda mu gihe k'impanuka ,ndetse akaba anambaye n'umwambaro w'abamotari, ufite ibara ry'umutuku. Nanone kandi hafi aho hari inzu zituwemo n'abantu.